Ku mugezi hari abana barimo baravoma, bari kuvomesha amabasi n'indobo. Inyuma yabo hari umusozi uhagaze hejuru bigaragara ko ari nk'urutare rukikije uwo mugezi barimo kuvomaho. Abana urabona ko bishimiye ibyo bari gukora.

Mu cyumba cy'inama hari abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe z'ubururu, imbere yabo bamwe hari ameza hakaba n'amazi. Hakurya hari porojegiteri yanditseho amagambo hakaba n'abantu babiri benda no kuba batatu bari gusobanura ibiri kuri porojegiteri.

Abana babiri bambaye imyenda itukura, umwe afite igikombe ari gukarabya mugenzi we, hejuru yanditseho unisefu foru evuri cadi, washi bageti burive. Hepfo hari amagambo yanditseho imvesitigatingi ini wota fondasheni andi hayigeni foru cadi bishatse kuvuga ko ari ukumenya isuku y'abana.

Abaganga batatu bambaye imyenda isa ubururu, babiri bafite udukarito bambaye udupfukamunwa biteze n'utugofero dusa icyatsi, umwe yambaye itaburiya y'umweru. Bari mu ivuriro mu cyumba cy'abarwayi, mu bigaragara bari gutambuka, bafite udukarito turimo amaraso bagiye kuvura.

Umwana wambaye imyenda ikozwe mu bitenge, ifite ibara ritukura ririmo ibirabyo by'umweru n'umukara, asutse udusuko turyamye, ari gukaraba ku mugezi yishimye; aho ku mugezi ari gukarabira hateretse ibasi ifite ibara ry'umukara, inyuma yaho hari inyubako yubakishije amatafari.

Kwa muganga hari abaganga babiri, imbere yabo hari ameza ariho raputopu, imbere yabo hari umubyeyi n'umwana, ku ntebe hicaye abandi barwayi. Inyuma yabo haranditse ngo; "Mubyeyi nyuma y'uko ubyara, isuzumishe usuzumishe n'uruhinja, mu masaha makumyabiri n'ane. Umaze kubyara nyuma y'iminsi itatu, hagati y'iminsi irindwi na cumi n'ine, na nyuma y'ibyumweru byibura umunani."

Umugezi cyangwa se ivomo, hari umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'umweru na kamambiri, ari kuvomera mu ndobo ari guseka, ni ku mugezi nk'aho dusanzwe twita "ipombo", imbere ye hateretse izindi ndobo zigera kuri eshatu, inyuma ye hirya hari ibiti binini kandi byiza cyane, hari n'ubusitani bw'indabo.

Kwa muganga hari abadamu benshi bicaye baje kuvuza abana, umwe arahagaze ateruye umwana ikenyeye ibitenge yiteze ikindi, atera umwana wambaye ishati irimo amabara y'umukara n'umutuku, afite ibipapuro bigaragara ko aribyo ari kwivurizaho, yambaye agakomo ku kuboko, hari abandi badamu bicaye hagati mu ivuriro.

Abantu barimo abadamu batatu n'umugabo umwe bicaye, umudamu umwe yambaye itaburiya y'ubururu yiteze igitambaro cy'ubururu n'umupira w'umweru undi yambaye umutuku n'umweru undi yambaye umukara undi yambaye icyatsi cyibisi, ahantu bicaye biragaragara ko ari kwa muganga hari ibishushanyo byinshi biriho ababyeyi bari konsa abana n'abandi baje kuboneza urubyaro mu bigaragara ni kwa muganga.

Ababyeyi bicaye ku gatebe kamwe batatu n'undi wa kane uri hirya, imbere yabo hicaye umugabo wagira ngo ari koga ibirenge ku gatebe ka kinyarwanda, bambaye imyenda itukura, umukara n'umweru n'umuhondo, hirya inyuma hari urutoki ruriho insina gusa nta bitoki bihari.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye, kirimo umudamu wambaye imyenda y'umweru, wambaye impeta n'isaha ku kuboko, afite ikaramu mu ntoki imbere ye harambitse impapuro hateretse n'uducupa tw'amazi na mudasobwa, yambaye indorerwamo z'amaso inyuma ye hari undi wambaye ikote ry'umutuku n'undi wambaye indorerwamo z'amaso hari n'abandi benshi cyane.

Umugabo uhagaze imbere y'icyapa, icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bya Karayesi Ndera cyangwa se by'abarwayi bo mu mutwe by'indera. Ibitaro hariho icyapa cy'ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda, hakabaho n'igishushanyo kiriho ibara ry'umutuku, kiriho n'agasaraba. Umugabo yambaye ishati y'akarokaro n'ipantaro y'umweru.

Umusore wambaye umupira w'umweru, afite umusatsi mukeya, afite urudodo mu kanwa ari kururuma, ahantu ari hasa umweru hari n'ikindi gikuta kiriho amarido cyangwa se kimeze nkaho ari tereviziyo cy'umweru, arashinyirije kandi ari kuruma urudodo.

Abana bambaye imyenda y'ishuri bafite udukombe mu ntoki tw'ubururu, umuhondo n'ubururu bwerurutse, bari kwiborosa bose ariko ibigaragara bishimiye ibyo barimo, bambaye inifomu iriho ibirango by'aho biga birimo amabara y'icyatsi n'umweru, bambaye n'imipira y'icyatsi iriho amabara y'umweru ku ikora.

Umukobwa uri guseka, yakoze ikimenyetso cy'umutima mu ntoki ze uko ari ebyiri, yifashishije ibiganza, ari guseka cyane, afite amaso y'umweru, afite umusatsi natirere, bigaragara ko nta kintu yambaye hejuru.

Abana benshi barimo kwiborosa. Bambaye imyenda isa ubururu, bafite uburaso butandukanye; ubw'icyatsi, ubw'ubururu, n'ubwo umuhondo. Inyuma y'aho hari ibiti bigaragara nk'aho ari indabo zisa icyatsi kibisi.

Mu ishuri hari umunyeshuri umwe wambaye imyenda y'icyatsi, hari abarimu batatu bambaye amataburiya y'umweru. Inyuma yabo hari undi mukobwa wambaye ipantaro y'umukara, mu ijosi yambayemo sharupe. Hirya hari umusore wambaye kositimu za kacye n'ishati y'umweru. Mwarimu arigisha umunyeshuri uko baborosa amenyo. Inyuma yabo handitse icyandikwa n'umukoro wo mu rugo.

Umukobwa ufite imisatsi migufiya ariko myiza, uri kwiborosa ari guseka, yambaye isengeri y'umweru, bigaragara ko ari no kwireba muri miruwari, inyuma ye hari bagarawundi ijya kuba umweru, ariko isa nk'aho yijimye, umukobwa biragaragara ko ari kwireba akanaseka.

Umusaza ufite ubwanwa bwinshi bw'umweru, hari ibiganza biri kumukarabya, biri kumukarabya mu mutwe, harimo urufuro rw'isabune, hasi yambaye ubusa, bigaragara ko umuntu arimo kumufasha gukaraba, inyuma harasa umukara ahicaye muri ravabo.

Umudamu uri muri siporo, yicaye ku gakeka cyangwa se umusare, yambaye umutuku n'umupira usa igitaka, afite imisatsi ifungiye hejuru, ahantu hasashe agakeka, ni muri pasiparumu cyangwa se mu busitani bwiza cyane, hirya inyuma haparitse imodoka.

Umugabo n'umwana bari gukina gamu, bafite utumashini dukina gamu. Umugabo yambaye umuhondo n'ikoboyi n'indorerwamo z'amaso, umwana yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ikoboyi. umugabo yicaye ku ntebe y'umutuku, umwana yicaye ku gitanda kirimo amabara y'umweru n'umukara. Hirya hari imisego y'ubururu n'umweru. Inyuma yabo hari igiti cy.

Kwa muganga hicaye abarwayi benshi bicaye bitandukanye bambaye udupfukamunwa. Hari n'undi uhagaze wambaye imyenda y'umweru bigaragara ko ari nk'umuganga. Hirya inyuma ye hari abandi barwayi bari kumanuka. Bicaye hagati muri korodoro ifite hasi amataro, amakaro. Inyuma yabo hari bakigirawundi y'umweru.

Inyubako nziza cyane, imbere yayo hateretse intebe z'umutuku eshatu, hari na kizimyamwoto y'umutuku, hirya hari icyapa cyanditseho ko ari ibitaro bya Ndera, imbere yaho hirya hari ubusitani bwiza, inyuma yubwo busitani, hari ibindi biti birebire cyane. Imbere y'inyubako ku marembo, hasashe kaburimbo cyangwa se hari kaburimbo.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ari ibitaro, ihagazeho umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara afashe mu mufuka, ku nyubako hejuru handitseho repubulika ofu Rwanda, minisita ofu hi etimolojyi raburatwari marariya andi opudidi ara.

Inyubako ifite zitandukanye kwa muganga, hari abantu benshi abarimo kugenda n'abahagaze, haparitse imodoka eshatu ku ruhande rwo hino, imwe nini y'umweru, indi ifite ibara ryijimye ariko rijya kuba umweru, indi ifite ibara ry'umukara, inyuma hirya y'icyapa haparitse indi modoka y'umweru, no hirya hari indi modoka iri kugenda mu muhanda, hari ibyapa bitandukanye...

Kwa muganga hari umuganga, hari n'umurwayi wicaye ku gitanda cy'abarwayi yambaye isengeri, inyuma ye hari imyenda y'ubururu, muganga yambaye itaburiya y'umweru arimo kumupima, inyuma ya muganga hari undi mudamu utwite uryamye ku gitanda wambaye umupira w'umweru witeze n'igitambaro gitukura, igitanda gifite ibyuma by'umweru.

Kwa muganga hari ibitanda byinshi biriho abarwayi ibitanda bishesheho amashuka y'umweru. Abandi barahagaze harimo umumama wambaye umupira w'umutuku hariho uwicaye wambaye umweru hari n'umwana wambaye iby'umukara wicaye ku gitanda hirya hari akandi kana kari mu kagare bigaragara ko gafite ubumuga. Hari supanete y'umweru amadirishya asa umweru n'inzoge zisize.

Umukobwa uri muri siporo cyangwa se icyo twakwita yoga, yambaye imyenda y'umukara afite imisatsi miremire isutse, yicaye ku mukeka aho ari gukorera siporo, imbere ye hateretse icupa ry'amazi, inyuma ye hari umuryango usa umweru.

Ni muri siporo hari hari umukobwa uri muri siporo yambaye kuteri mu matwi, asutse ibisuko biryamye ku mutwe ibyo tuzi nka penso, yambaye isengeri ya kake iriho ibara ry'umukara ari kwigorora ma maboko, yafashe mu bitugu aho bigaragara ko agororotse rwose.

Mu kibuga hagati hari umukinnyi waguye. Umukinnyi yambaye umupira w'ubururu, n'ikabutura y'umukara, amasogisi y'umukara, n'inkweto z'umukara, bigaragara ko yavunitse mu ivi, imbere ye hateretse balo, hari n'umuganga uri kumuvura nawe bambaye kimwe, wambaye n'inkweto z'umutuku, inyuma yabo hirya mu kibuga, hari abandi bakinnyi bambaye umuhondo n'umukara bakomeje gukina.

Abantu babiri bambaye imyenda ya siporo, umwe yambaye iy’umukara n’undi yambaye umukara, umwe aryamye ku gatanda, undi arimo aramukandira cyangwa se arimo aramumasa ibirenge. Hasi hagati y'amaguru y’uwo uryamye hari umuti cyangwa se amavuta arimo arakoresha amumasa.

Muri siporo, hari umuntu urimo urakora siporo, yambaye imyenda y'umukara, yambaye ekoteri mu matwi, yambaye n'akantu ku maboko ye. Imbere ye hateretse icupa ry'amazi, yambaye n'inkweto zitukura, inyuma ye hari inyubako ifite ibara ry'umukara.